Munkongi y'umuriro dukoresha kizimyamwoto idufasha kuzimya inkongi y'umuriro ntizigera ku bantu cyane bigatuma nandi mazigagafatwa cyane cyane kubera ko tuba dufite kizimyamwoto yadufashaga kubizimya vuba.

Itungo bitwa imbwa ridufasha mu mutekano, tuyifashisha iri kurinda urugo, tuyifashisha iri gusaka ibisasu, cyangwa se ibindi bintu bitemewe ahantu hose. Imbwa ni ingirakamaro kuko idufasha muri byinshi.

Imodoka zidufasha kujya iyo tugiye, cyane cyane iyo tugiye kure cyangwa se amasaha yadufashe, usanga dutega imodoka tukagerayo vuba, kandi ibikorwa byacu bikagenda neza cyane cyane.

Ingabo z'igihugu zidufasha mu mutekano. Iyo dufite ingabo z'igihugu, tuba tuzi neza ko tumeze neza, umutekano w'igihugu umeze neza. Ingabo z'igihugu zigira ikinyabupfura, ziba zaratojwe neza.

Abanyerondo b'umwuga ni beza cyane cyane, kuko badufasha gucunga umutekano cyane cyane ni ijoro, bituma abajura babafata bituma batiba cyane, abaturage bakagira umutekano uhagije cyane.

Abamotari badufasha kugera iyo tugiye, moto zirihuta cyane ku buryo nanjye mbona, na kwiga moto cyangwa se umwana wanjye nkazamwigisha gutwara moto, kubera ko moto itanga amafaranga.

Gaze ituma amasafuriya atandura cyane, kandi gaze zituma ibiryo bishya vuba, bishya vuba vuba, gaze ntabwo zanduza ikirere kubera ko zidacumba umwotsi.

Ahantu hari kamera usanga imodoka zagenda zitujye nta muvundo mwinshi nta n'ubwo hakunda kubera impanuka, kubera ko usanga buri modoka iri kugenda mu buryo bwayo, ugasanga itari kubyigana n'ibindi binyabiziga binyuranye cyane cyane amagare na moto.

Umutaka tuwukoresha iyo izuba ryabaye ryinshi turawitera, umutaka tuwitwikira iyo imvura iri kugwa ari nyinshi kugira ngo tukanyayagirwa, cyane cyane abantu benshi bakunda kugura umutaka kubera ko ubafasha mu mirimo yabo no mu ngendo zabo.

Isakazamajwi zidufasha kugeza amajwi kure, iyo turi kugamba abantu baratwumva cyane n'abari kure bakumva, bituma buri wese yumva neza bitagombeye ngo umuntu ngo ari kugamba buhoro.

Abantu bari mu nama bose baba bateze amatwi kandi batarangaye, naho uri kubabwira aba ahagaze hagati, bose ari kubareba kandi nabo bose bari kumureba.

Ijile ni nziza cyane ni umwenda w'akazi, ugaragaza abantu bari mu kazi. Umuntu wese uri mu kazi ni byiza ko aba yambaye ijile uhita umumenya nta kindi urebeyeho. umuntu wese uri gushaka akazi yambara ijile.

Ibintu bidufasha gukora umuganda, usanga harimo ibikoresho byinshi cyane, usanga harimo ibitiyo, abantu bakora umuganda, bafasha igihugu ndetse na buri wese, kugira ngo bigere kure cyane kandi igihugu gise neza cyane.

Insakazamajwi cyangwa se mikorofone bidufasha kuvuga tukarangurura ijwi rikagera kure abantu bose bari mu nama bakatwumva, badutega amatwi kubera ko baba bari kumva ibyo turikuvuga neza cyane.

Abantu bajya bakunda kujya mu bukwe burimo ingoma kubera ko haba harimo ababyinnyi bazi gushimisha abantu. Usanga ibirori birimo ingoma, bimeze neza abantu babyishimira cyane cyane.

Twigaga kubeta ariko njyewe nabwo nari nzi kubeta, n'ubu ntabwo mbishobora. Ntabwo nari nzi ibintu bakoresha mu kubetera ku ibuye, ntabwo nari nzi kuko ingasire uko imeze, ntabwo nari nzi gutandukanya urusyo n'ingasire, ariko narabimenye njye.

Izo ntore ziri kubyina neza cyane, babyina neza n'iyo abavuza ingoma bazivuza neza, usanga ari byiza.

Intara zigosora ibishyimbo, zigosora amasaka, tuzifashisha mugusarura, tuzifashisha mu kuzikoresha imirimo myinshi yo mu rugo intara tuziriraho.

Kuboha ibiseke bidufasha kubona amafaranga, tukabona n'ibyo du twazamo, ibyo tujyanye, igiseke kidufasha kugenda twikoreye kandi bisa neza, igiseke kidufasha gutaha ubukwe uko bikwiye.

Ubukwe bwa kinyarwanda abantu barabukunda cyane, kuko usanga harimo ababyinnyi usanga tuhigira umuco wa kera, kuko abana bubu usanga twe tutazi umuco nyarwanda kandi bigomba kuranga igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Ingoma nta bwo ari bose bashobora kuzivuza. Abazivuza usanga bazi no kubyina, babita intore. Intore nziza cyane zishimisha abantu. Cyane cyane abagiye mu bukwe bataha bishimye cyane, bahimbaje ibirori, bafite umunezero mwinshi cyane cyane.

Ni byiza iyo abasaza bicaranye kuba bafite akantu bari gusomaho cyane iyo bakina urusoro wasangaga bafite agacuma bashyiragamo inzoga bakazajya basomaho bagaherezanya usanga bikurura ubumwe ugasanga abantu barishimanye cyane ugasanga abantu bafitanye urukundo cyane cyane.

Umwuko ni igikoresho cyiza kiva mu giti. Barawubaza, bakawukoresha. Bawuvugisha umutsima, bawushigishisha igikoma ndetse n'ibindi byose byose byo kuvangavanga babikoresha umwuko. Ni ingirakamaro cyane.

Ahantu bakora ubukorikori, ntabwo wahayoberwa kubera ko baba barabumbye ibintu byinshi ibindi babibaza mu biti biba ku muryango usanga hariho ibintu byinshi babumbye mu ibumba, habaho n'ibindi bintu byinshi babaza mu biti bibafasha gukora ibyo bintu.

Ingoma tuzifashisha mu birori, tuzifashisha mu bukwe, tuzifashisha iyo turi gutangaza amakuru. Tuzifashisha turi gushimisha abantu. Njyewe ibirori iyo birimo ingoma mbona ari byiza cyane.

Gusoma ku nzoga y'umugabo uca bugufi ugapfukama, kera nta mugore wasomaga ku nzoga y'abagabo ahagaze cyangwa yunamye, kuko wari wo muco wari uhari, kugira ngo abantu bose bawukurikize nk'uburyo bwo kubaha abagabo.

Igisabo bakika ahantu hatari ibindi bintu byinshi cyane ku buryo gishobora kwangirika, igisabo bagikoresha mu bukwe, kiba gifite akamaro cyane cyane mu gusaba no gukwa.

Inkongoro bazifashisha ku bageni baterekamo amata, kugira amata atangirika, amata agira gitereka ntabwo ari ugupfa kuyashyira aho ubonye hose.

Inkono y'ibumba bayitekamo ibiryo ibyo aribyo byose, ibumba ridufasha gukora ibintu byinshi, dukoramo amavase, dukoramo inkono, tubumbamo n'imifuniko yo gupfundikiza, dukoramo n'imbabura.

Ubukwe buba bwiza cyane, iyo wemeye mugashyingiranwa kubera ko abantu baba ba butashye ari benshi, maze umusore wawe akwambika impeta abantu bose bagaseka bakishima, kubera ko aba akwerekanye ku mugaragaro bose bari kubireba.

Gukama uri gukoresha inshinge, bituma umutobe uryoha, kandi uhunika vuba, inshinge ikama ibitoki neza, cyane ubona inzoga y'ishinge isa neza cyane cyane.

Intore mbona ngewe ari nziza cyane zishimisha abantu, ziba zizi kubyina, kandi intore ziba zambaye neza cyane cyane. Ngewe imyenda y'intore ndayikunda cyane. Nkunda n'ukuntu abayambaye babyina neza cyane.

Intore mu birori zisusurutsa abantu mu bukwe usanga ihari. Njyewe iyo nagiye mu birori intore ntizize ntaha ntishimye cyane cyane, iyo nta bandi babyinnyi bahari intore ni nziza.

Kera bakwaga inka nya nka, icyakwerekaga inka bagiye gukwa n'uko babaga bayitatse neza, kuri ubu basigaye bakwa amafaranga, bayigena mu mafaranga, ariko umuhango wo gukwa wari umuco mwiza cyane wafashaga .

Mu muco nyarwanda ibicuma bidufasha kunywa inzoga neza, uduseke tudufasha gutwaramo amapfukire, umukeka tuwukoreshe turi kurya, tuwusasa muri saro, umukeka bawuryamaho.

Mu muco Nyarwanda, habamo kubeta amasaka ku rusyo upfukamye, ntawubeta ahagaze nta n'uwunama, babeta amasaka ku rusyo bakoresheje urusyo n'ingasire, bakayashyi......

Umuhoro wa kinyarwanda uradufasha. Utema ibyatsi, ugatema ibiti, udufasha mu mirimo yacu yo mu mirima, ukadufasha mu busitani, ukadufasha no kwahira. Iyo turi kwahira turawukoresha.

Intore ziba zizi kurambura amaboko, ziyarambura neza ukabona ziri gushimisha abantu, amayugi adufasha kubyina neza cyane cyane ku ntore usanga biri kugenda neza ziba zifite n'ingabo mu biganza.

Ubucuruzi bw'ibiseke . Mu duseke harimo n'utwiza bo utwo bagemuramo ,harimo n'utwo bajyana mu bukwe. Njyewe ndi kubonamo harimo n'igicuma . Igicuma bashyiraga inzoga

Ibiseke bidufasha gutwerera, cyangwa se bikadufasha kubona amafaranga, bidufasha no kumenya gukora ubukorikori butandukanye, kuboha ibiseke ni bintu byiza cyane, kuko kubitugeza kuri byinshi, bikungura n'ubumenyi bwacu cyane.

Ku umuganda usanga n'abasirikari bari guhinga, usangagharimo abayobozi benshi cyane cyane batandukanye bo mu nzego zose nabo bajya ku muganda bagafatanya n'abaturage. Ubona ari byiza cyane cyane kubera ko na buri muturage yibonamo akabona ko nta kibazo, akabona ko bose barigufatanya neza kandi ari byiza cyane.

Gucana ku mashyiga bitandukanya no gucana ku mbabura, gucana ku mashyiga uba uri kureba umuriro uko uri kwaka wazima ukabimenya, ariko kumbabura ntabwo ubimenya, icyiza ni ugucana ku nkwi kubera ko ari byo.

Umuvure bawubaza mu giti. Umuvure n'indemberi babikoresha mu gutara inzoga bituma inzoga ishya neza, bakaragamo ibitoki neza inzoga ikaba nziza. Ikirago bagikoresha bagishashe, bakiryamaho.

Igicuma ni igikoresho kinywa inzoga neza, bakoreshaga mu gihe cya mbere kuri ubu ngubu bicuma ntago bikunda kuboneka, kubera ko twageze mu iterambere ryinshi cyane cyane, ahenshi usanga ibicuma bimaze gucika nta bicuma bikiba aho cyane.

Intara ni igikoresho cyiza, kuko kidufasha, kugosora imyaka yacu, ikavamo ibitubura, usanga mucyaro abantu benshi bazi kugosoza intara, usanga kandi bazi gutandukanya.

Umutiba ubamo inzuki ni mwo inzuki zihahira, iyo hashize igihe kinini cyane cyane ujya kuwureba ugasanga haragiyemo ubuki bwinshi, maze ugahakura bwa buki ukaburya ubuki buravura.

Ibirori bibamo ingoma usanga ari byiza, njyewe njya gukodesha ingoma kugira ngo ibirori bibe byiza. Ingoma ni nziza zifite akamaro barazivuza bigashimisha abantu, kandi umuntu wese ufite ingoma abona amafaranga, kuko barazikodesha abantu benshi barazikunda cyane cyane.

Isekuro ni igikoresho babaza mu giti akenshi ni mu muvumu bifashisha bari gusekuramo isombe, cyangwa se izindi mboga. Basekuriramo n'imiti y'ibyatsi ifasha abantu kuvurwa, ndetse igafasha n'amatungo kuvurwa uburwayi butandukanye.

Abantu bazi kubyina neza bazi kubyinana uduseke. Batwikorera ku mutwe, abongabo umuntu yabaha ikiraka kubera ko baba bazi kubyina neza, bashusha ibirori.

Igicuma bakinyweramo inzoga, bakanyweramo umusururu cyangwa ubushera. Njyewe nkunda kunywera umusururu mu gikosi bita muhinzi mworozi, kubera ko uba urikuwureba neza.

Ubukwe bwa kinyarwanda buba bwiza, usanga abantu bose bari kubukunda, kubera ko butwigisha kumenya umuco, dukunda ubukwe bwa kinyarwanda, kubera ko harimo byinshi tumenya twari tutabizi, twari tutazanabimenya kubera iterambere ryaje mu gihugu, usanga ibintu by'umuco turi kugenda turabyibagirwa.

Abana batoya bavuza ingoma, bazivuza neza kandi baba bazi no kubyina neza, njewe ku buryo ntabarusha, kubyina ndetse no kuvuza ingoma.

Abagabo bateranye bari mu bukwe bambaye neza, bose bari kunywa inzoga, bose bari kumwe ku gicuma, igicuma kinywa inzoga neza nta kavuyo, kandi inzoga ntabwo ipfa, mu muco nyarwanda kuva kera kose bazinyweraga mu bicumbi.

Intore zitumirwa mu bukwe, zigashimisha abantu, iyo ukora umurimo w'intore wo kubyina, ubona amafaranga, abantu baragukodesha, intore tuzibwirwa n'ibyo zambaye mu mutwe, ndetse n'imyenda.

Intore zidufasha guhimbaza ibirori, zidufasha, gushimisha abantu. Ntago wagira irungu iyo hari intore, ababyinnyi badufasha kwishima, bafasha abantu guhimbaza ibirori neza ingoma nazo bakazifashisha bari kuzivuza.

Kugosora ibishyimbo ni umuco nyarwanda, usanga umukobwa utazi kugosora baramuseka cyane cyane, ikintu bagosoza ibishyimbo bacyita inta ,inkoko igosora duke two guteka, ariko ibyishimo byinshi cyane cyane bigusoza intara nini.

Ibibindi babikoreshaga bagiye guturira umugeni, byazanaga amazi, ubu ngubu ibibindi babishyiramo umusururu, ibibindi babitekagamo, ibibindi bidufasha kubika amazi neza.

Mu bukwe bakoresha umuduri bari gucuranga. Ikikwereka ubukwe, iyo ubonye umuntu wagiye gucuranga cyangwa se mu birori, abafite umuderi bajya gucurangayo kugira ngo babashe kubona ibirori, babone n'amafaranga menshi cyane.

Amatara yo kumuhanda, adufasha aratumurikira akatuboneshereza, tukagenda turikubona aho turi guca, nta mpungenge haba hari umutekano, amatara yo k'umuhanda, adufasha mu mutekano, ukagenda ufite umudendezo, mwinshi cyane.

Imashini idufasha gufotora impapuro, tukazikoresha ibintu byahagiye, bayikoreshaga harimo umugozi w'mashanyarazi, bagakoresha n'umuti kugira ngo inyuguti zigaragare.

Ipenzi idufasha mu kwesitara, mu kubabaka abubaka bakoreshaga ipensi, gufungura ibintu byatunaniye dufunguza ipensi, idufasha mu bintu byinshi cyane.

Icyapa kikwereka uko imihanda imeze, uko umuhanda umeze, ubibona ku cyapa, utari wawugeramo iyo wayobye uhita ubibona, niko kamaro keza icyapa kitumarira, usanga kiri kuturangira inzira, mbere y'uko tujyayo.

Insengeroro zavuguruwe ku buryo bwiza, usanga aho bavugururiye insengero, usanga hari insengero nyinshi nziza, nubwo tujya gusengera kure kubera ko insengero nyinshi cyane zifunze, usanga aho tujya usanga hasa neza cyane.

Mu ngendo zacu za buri munsi inshuro nyinshi tugenda na moto, kubera ko hari igihe tuba turikujya ahantu kure kandi amasaha ya ducitse, usanga rero moto ikora inshuro nyinshi mu buzima bwacu, usanga moto yihuta kurusha igare kandi moto ntago zihenda cyane cyane.

Kiliziya nyinshi mu Rwanda usanga zubatse ku buryo bumwe, ku buryo ugeze ahantu bubatse kiliziya utapfa kuyoberwa ko ari kiliziya, kubera ko iba itandukanye n'urundi rusengero. Kiliziya ni nziza cyane, ituma turushaho kwitagatifuza, usanga abantu bayigana ari benshi.

Imihanda yo mu makaritsiye idufasha cyane cyane kugera aho tugiye, tutabanje kunyura mu zindi nzira, cyangwa se ngo tunyure mu ngo z'abandi. Ni byiza uduhanda two mu makaritsiye turadufasha cyane cyane.

Amazu menshi y'amashuri bubaka kuri ubu buryo bagakoresha amatafari ahiye, kubera ko ari bwo akomera cyane bagakoresha n'amabati amwe kubera ko aribwo agaragara neza.

Ahantu hari jaride usanga hasa neza, umuco wo gutera indabo ni mwiza cyane, kuko ubona hari isuku, kandi hasa neza cyane ku buryo abantu bakunda no kuhifotoreza, usanga abantu bose bahakunze iyo hari ubusitani bwiza cyane.

Inzu basengeramo bazita insengero, ubu zimwe zirafunze bitewe nuko zitujuje ibyasabwaga, ubungubu insengero zigomba kugabanuka bakamanza kubaka.

Umuganda w'ukwezi witarurwa n'abantu bose, ukorerwa kandi igihe kimwe, itariki imwe mu gihugu cyose, usangaga hari n'abantu benshi benshi bawitabiriye cyane cyane ari benshi, kubera ko ari igikorwa cy'igihugu.

Gaze ihishaga ibiryo vubavuba, gaze ntabwo yanduza mu kirere, njyewe mbona gaze rero ari nziza cyane mu iterambere igihugu cyatuzaniye, kubera ko ibiryo bisha vuba vuba.

Inzu z'amabuye ziba zikomeye cyane cyane, ni yo mpamvu insengero za kera bakundaga kubakisha amabuye, kubera ko yabaga akomeye, wasangaga insengero zitapfa kuriduka zabaga zikomeye cyane, cyane ku buryo baguriraga abantu amabuye na bo bakikenura.

Amashanyarazi azana iterambere, atuma ahantu habona cyane, agatuma tugenda turi kubona n'iyo ari mu mwijima, intsinga z'amashanyarazi ziri hejuru zidufasha kwirinda impanuka.

Ahantu hose haba ubuyobozi, hakorera ubuyobozi, tuhabwirwa n'uko haba hariho ibendera cyangwa habaho idarapo ry'igihugu runaka, tugahita tumenya ibintu bihakorerwa, n'ibihugu bihakorera, byaba byinshi byinshi cyane cyane cyangwa se kimwe.

Urusengero barwubaka neza, rufite ibintu byinshi cyane habamo umurindankuba, bahabagamo kizimyamwoto, habaho n'akandagirukarabe ku bifashaga abantu gusenga neza njyewe nkunda ahantu nk'ahaha kubera hamfasha cyane cyane hari umutekano uhagije.

Icyapa kiturangira iyo turi kujya, ahantu hari icyapa ntabwo wayoba, kubera ko hakwereka aho ugomba kujya, hakwereka ibirometero usigaje, ukamenya aho ugiye utarangishije abantu abantu benshi cyane cyane.

Mu iterambere ry'igihugu amashuri nayo agomba kubamo, kubera ko uburezi bw'abana nabwo bugomba kuzamuka, bukadufasha mu myigire y'abana bacu, kandi bakagira uburere, bakagira n'ubwenge bufungutse.

Ibyuma bashyira imbere y'inzu bita imirindabasazi bituma abantu badapfa kugwa uko biboneye kubera birinda umutekano w'umuntu n'uri kuzungere ntashobora kuhanyura ngo abigwe kuko bihita bimutangira, bikaba umutekano w'inzu.

Abantu bakora akazi k'ubwubatsi haba harimo abayedi uba ufite ibintu, ibikoresho ugomba gukoresha. Kandi baba bambaye imyenda yo gukorana : bambara amajire meza cyane bakambara n'amasarubeti bakoresha ibintu bitandukanye.

Kandagirukarabe zidufasha kugira isuku, umuntu wese ugiye kwinjira ahantu abanza gukaraba, agakaraba neza, n'isabune kandi akanoga n'amazi menshi kandi meza, Kandagirakarabe z'amatara zifasha ahantu, zituma ahantu hatajya.......

Amazu yubatse neza akaba aherereye ku muhanda, atanga amafaranga menshi cyane cyane nk'amahoteri, usanga abantu bakunda kujyayo cyane, maze amafaranga akaboneka ku buryo bwihuse cyane cyane kurusha mu cyaro.

Insinga z'amashanyarazi iyo zanyuze mu byuma hejuru bidufasha kurinda impanuka, bidufasha kandi kugira ngo zitangirika. Insinga iyo ziri mu kirere tubona umuriro neza uko bikwiye.

Insakazamajwi cyangwa se mikoro tuyikoresha iyo turi bkumesha inama, iyo turi mu rusengero , cyangwa se turi n'ahandi dushaka kugira ngo ababikorera twumve cyane bari batari kutwumva tukagira ngo bumve.

Ni byiza kujya kumva inama ukamenya aho igihugu bigeze, iyo ujyiye kumva inama umenya aho umutekano w'igihugu ugeze, ukamenya n'ibyo ugomba gufasha abandi, ukamenya ko nk'ibyo ugomba gukurikiza igihe cyose

Inzu zigeretse zitwara ikibanza gitoya, ubutaka bukajyaho ibikorwa byinshi cyane, kubera ko inzu ziba zigerekeranye, imwe ku yindi kandi inzu zigerekeranye ni iterambere kuri ubu.

Mu bintu bidufasha cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi habamo amagare, adufasha gutwara ibintu, aduha amafaranga, atwara n'abantu, abanyonzi batwara amagare babona amafaranga bakiteza imbere, bagura n'ibindi byinshi cyane cyane kurusha ibindi.

Imodoka zidufasha gukora ingendo tujya ahantu kure, cyangwa se dushaka kwihuta cyane dukoresha imodoka. Imodoka nini zijyamo abantu benshi bigatuma ugenda utuje.

Abantu bari kugenda ari benshi, usanga buri wese afite ize gahunda nta witaye ku wundi, haba harimo abavuye guhaha abari gutembera bisanzwe, abajya gutega imodoka usanga harimo abikoreye imizigo, usanga ingendo zirimo abantu benshi batandukanye cyane.

Ibimodoka binini bitwara ibintu byinshi bijyamo mu mahanga bikazanayo, bivanayo ibikoresho umuntu atashobora kwikorera cyane, byikorera cyane cyane kurusha abantu, kurusha n'utumodoka dutoya cyane.

Abashyira abantu mu modoka cyangwa abatwara abantu mu modoka baba batandukanye n'abagenzi, abagenzi baba binjira mu modoka ariko hariho ababafasha kwinjiramo, bakabatodesha umurongo, babaha n'amatike.

Ibintu bisigaye byaroroshye, cyane cyane abanyeshuri babona imodoka zo kubacyura n'izo kubajyana ku ishuri. Kubera ko ubu habonetse imodoka nini. Ziriya modoka nini zitwara abantu benshi cyane, ku buryo abantu batabura icyo bagendamo.

Umuhanda w'indege uba mu kirere, igendera mu kirere, itwara abantu n'ibintu, ikoreshwa iri kujya mu bihugu bindi no mu gihugu mo imbere iri gukoreramo. Indege wayifashisha uri gutwara abantu, cyangwa uri gutwara ibintu.

Muri gare haba harimo imodoka nyinshi, ibinyabiziga byinshi cyane, habamo imodoka, hakabamo amagare, habamo moto, habamo abagenzi, hakabamo amabutike n'amazu.

Imodoka nini zitwaraga abantu neza usanga zirimo umutekano, kubera ko abantu bategerana cyane usanga ziruhurira abantu, iyo unaniwe urahagarara kubera ko nta muntu uba uri kubyiga.

Abacuruzi bakenera amagare yo gutwara ibintu, bakenera mitiyu, bagakenera abo gukora amagare, bagakenera abakanishi, bagakenera amazu yo gucururizamo, bibafasha kubona amafaranga neza uko bikwiye n'abakiriya bakaza neza.

Iyo umuntu ahinga akagira umusaruro mwinshi cyane, ashaka imodoka zikawumutwarira. Umuntu ugeze igihe cyo gutwaza imodoka, aba ageze kure . Abona amafaranga menshi cyane.

Imodoka nini zidufasha gutwara ibintu ku buryo bwiza cyane cyane, kubera ko zitwara abantu batashobora, dukunda imodoka nk'izi ngizi za fuso, kubera ko zijya ahantu kure cyane cyane abantu batajya kandi zikihuta.

Jari ni kampani itwara abagenzi hirya no hino mugihugu, ibavana ahantu hamwe ibaryana ahandi kandi vuba.

Ibimodoka binini bijya mu mahanga bidufasha kwikorera imizigo myinshi twe tutashobora, ugusanga ibimodoka bikorera amafaranga menshi cyane cyane ariko bitinda mu nzira bitinda no kugera iyo biba bigiye, kubera ko biba biturutse kure cyane cyane, ugasanga bitinze bimaze mu nzira igihe kinini cyane.

Mbona amakampani akunda kugira ibi bimodoka binini ari yo akunda kugira ibiraka, abona ibiraka cyane kubera ko bino bimodoka binini bitwara ibitaka, bikorana n'imashini cyane cyane mu mihanda iri gukorwa n'amakampani, ni yyo bakoresha.

Izi modoka ni nini nziza, kubera ko zijyamo abantu benshi kandi zikihuta, zijyamo abantu benshi kurusha udutagisi dutoya, njyewe iyo ngiye i Kigali ngenda munini, kubera ko ariho ntaruha kandi batabyigana.

Imodoka zidufasha ibintu byinshi harimo gupakira imifuka, gupakira ibikoresho bitandukanye gupakira za matera, bidufasha no kugira ngo abagenzi babone aho abagiye, bagendera mu modoka, imodoka nyinshi zitandukanye zidufasha gutwara byinshi cyane.

Mu binyabiziga byose jyewe nsanga moto zihuta cyane cyane kurusha imodoka, ariko nanone imodoka nizo zitwara abantu benshi, kuko niyo zitwaye ibintu zitwara ibintu byinshi zitwara ibintu byinshi kurusha moto gutwara no gupakira ibintu byinshi cyane cyane.

Abantu biga gutwara imodoka cyangwa se ibindi binyabiziga usanga bakunda kugira amafaranga menshi cyane iyo babirangije. Nanjye mbona nakwiga cyangwa umwana wanjye yakwiga ikinyabiziga.

Rifani n'ubwoko bwa moto, rifani n ikinyabiziga kigira amapine atatu, perime yayo usanga aritwara moto, usanga gifite kategori ya A, usanga buri wese ashaka kugitwara ntago kigorana cyane cyane.

Izi modoka zubu bwoko ntabwo zibura abakiriya, kubera ko abashaka gutembera bose bagendera murizi, usangaga zibaga zifite umutekano ntago bagenda bari kubyigana, usanga abazijyamo bose batuje bameze neza.

Ahantu henshi, hamaze kugera izi modoka nini cyane kubera ko arizo zitwara abantu neza . Usanga gare nyinshi zirimo izi modoka, kubera ko arizo zisigaye zifite sosiyete nyinshi. Amajanse menshi akoresha izi modoka ndende cyane, kubera ko zitwara abantu benshi cyane.

Ikibuga cya vore kiba giteye kuri ubu buryo, kiba kirimo fire, kiba kirimo imirongo igaragaza nimero, buri mukinnyi aba afite nimero ye kandi ahagaze ku nimero ye, nta mukinnyi ukina ahatari kuri nimero ye.

Siporo ni uburyo bwiza bwo kuruhuka mu bwonko, bidufasha kuruhuka mu mubiri wose, kandi natwe iduha amafaranga menshi cyane bikavamo twiteza imbere, mu mikurire mu buzima ndetse no mu mibereho isanzwe ya ya buri munsi.

Umukino wa basikete ni umukino mwiza cyane, usanga ushimisha abantu, ufasha abantu gukora siporo neza bakaruhuka mu bwonko, usanga abantu bakunda siporo baruhuka neza kurusha abandi bose, ibintu byose birimo bigutera siteresi biragabanuka.

Siporo ni ingenzi ku muntu kuberako umuntu ukora siporo agira ubuzima bwiza, usanga abenshi bayikora ari ukugira ngo baruhuke ariko n'ubundi siporo itanga amafaranga cyane. Yinjiriza umuntu ku giti cye, yinjiriza n'igihugu ubwacyo, ugasanga bimeze neza cyane cyane.

Ku isi hose ikintu duhuriraho ni siporo, usanga nta gihugu na kimwe kidakora siporo, kubera ko siporo ni ikintu cyiza gifasha umuntu mu miza mukirereye, mu buzima bwe, kikamugirira akamaro kandi siporo ziduha amafaranga menshi cyane, kubera ko tujya no mu bihugu bindi byo hanze tukazikora.

Amasiporo atuma tugororoka, umubiri wacu ukagororoka n'imitsi yacu igakora neza cyane. Siporo wayikorera ahantu hose ushaka, ariko ukirinda ibintu by'ibyuma bishobora kuba byagupfumura.

Abantu bakunda kureba umupira w'abakobwa, usanga uryoshye nange umukobwa ukina umupira ndamukunda, kubera ko usanga akunzwe cyane, kandi abona n'amafaranga, abakobwa ni byiza nabo kwibona muri siporo.

Umupira udufasha muri siporo zacu, bigatuma amagufa yacu agororoka n'umubiri wacu ukagenda neza, buri wese aba yemerewe gukina umupira ndetse no gukora siporo, yayikora ari kwiruka cyangwa se ari gukina umupira.

Umwana iyo umutoje umukino akiri mutoya, bimufasha kugira ubuzima bwiza, agakura abikunze abikunda akabijyamo na we afite umwete wo kubijyamo, kandi akazagera ku rwego rwiza rushimisha ababyeyi n'abandi bantu bose bamukurikiye cyane.

Inkweto bakinana umupira bazita godiyo, mu nsi ziba zifitemo amenyo, ku buryo umuntu agukandagiye wahita ugira igisebe. Njyewe nakundaga gukinisha godiyo kubera ko zituma ugenda uri kwiruka cyane.

Amakipe y'abakobwa nayo yateye imbere muri siporo, bituma nabo bishima, hano mu rwanda dufitemo amakipe menshi y'abakobwa akina.

Siporo ni nziza cyane, buri wese yakagombye gukora siporo, kubera ko idufasha kuruhuka neza mu bwonko, ituma imitsi igororoka, usanga siporo ari ingirakamaro ku muntu wese, kubera ko itarobanura igitsina iki n'iki, usanga ari nziza.

Abantu bajya gukina basikete hanze baba barageze ku rwego ruri hejuru cyane, basikete ni umupira mwiza cyane usanga abantu benshi bawukunda, kuberako ari umupira udufasha kwiruka cyane cyane.

Njewe nkunda kureba umupira, umukino wa tenisi, kubera ko umfasha kwishima, umfasha kumva nezerewe, nishima iyo mbonye abantu batsinze, nkunda imikino myinshi, ariko uwa tenisi umfasha.

Ikibuga bakiniraho basikete, kiba kiriho izamu riba mu kirere, kiba gishushanyije ku buryo butandukanye n'ibindi bibuga, kidufasha gukora siporo neza, kidufasha kugororoka mu maguru, tukagororoka n'amaboko, ndetse n'ubwonko.

Siporo ni nziza zituma ugororoka, kandi siporo zituma umuntu aruhuka, siporo zituma umuntu abona amafaranga menshi, cyane cyane iyo yageze ku rwego rwo hejuru, akaba ajya hanze y'igihugu.

Irushanwa ry'amagare usanga risa neza, rishimisha abantu, ubona bambaye neza iyo bari no kwihuta ku tugare ubona ari byiza cyane, cyane cyane iyo hajemo ibindi bihugu byo hanze, ari amagare menshi cyane usanga ari byiza cyane bishimisha n'abandi.

Umukino w'abakobwa usanga ari mwiza usekeje cyane, abantu benshi bakunda kuwureba, kubera ko usanga abakobwa badakina cyane cyane nk'abahungu, kubera ko abakobwa usanga bari kwirunda ku mukino umwe, ku mupira hamwe usanga bakina ku buryo busekeje cyane.

Ibintu bituma wemererwa gukina, ugomba kuba wambaye jezi, wambara inkweto zabugenewe, wambara amasogisi, wambara imyenda ziriho nimero, kandi ukaba uzi ikibuga.

Vore iri bu muri bimwe bidufasha gukora siporo kandi siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu, njyewe yafashaga kugira ubuzima bwiza amagufa akagororoka kandi ikandinda n'uburwayi.

Basikete ni umukino mwiza, udufasha mu buryo bwacu bwo gukora siporo, usanga iyo ukina basikete usanga ari umukino mwiza, basikete ikunda gukina abantu barebare cyane cyane.

Umwana wanjye, nzamutoza gukina umukino wa tenisi, akiri mutoya kugirango azawukunde cyane, jyewe natangiye ku wukina ndi mutoya cyane, none byampesheje ibyishimo n'amafaranga.

Umupira wa vore abantu bawukunda cyane, nange nkunda umupira wa vore, nkunda no kuwureba cyane, usanga usa neza, usanga buri wese ari mucye kibuga, ntawe ubangamiye undi, umupira wa vore ubamo abakinnyi umunani gusa.

Njyewe rero numva buriya nkunda umupira w'amaguru, Kubera ko njyewe numvaga nkunda kwiruka. Umupira w'amaguru hazamo kwiruka cyane. Umupira w'amaguru ukundwa n'abantu benshi, numva najya mu ikipe zikomeye cyane.

Siporo ituma abantu baruhuka cyane mu bwonko. Twe twakoraga siporo kugira ngo twishime cyane cyane. Ariko ubungubu dukora siporo kugira ngo tubashe kubonamo amafaranga menshi menshi ,kubera ko adufasha mu kwiteza imbere cyane cyane.

Umupira ni mwiza cyane cyane udufasha uburyo bwo gukora siporo, udufasha kubona amafaranga, udufasha no m'ubuzima bwacu, usanga umupira udufashije muri siporo kandi tukishima cyane cyane.

Siporo ni ingenzi ku muntu, nta n'umwe baheza muri siporo buri wese aba yemerewe gukora siporo. Siporo usanga ku isi hose ni ikintu duhuriraho, usanga umuntu ukora siporo abona amafaranga, kandi akagira n'umwanya wo kuruhuka cyane uko abishaka.

Imyenda ya siporo y'umuhondo, ndayikunda igaragara cyane, kandi iyo umuntu ayifuze icya vuba, bigaragara ko yanduye.

Utuyira dutoduto tudufasha kujya mucyaro, mu midugudu iyo turi kujya mu masibo, dukoresha utuyira dutoya, tukagenda n' amaguru, nta binyabiziga bijya mu tuyira dutoya, kubera ko bitabona aho binyura n' abantu ngo babone aho bajya baranyura.

Inzu iri ku muhanda ntabwo ibura abayikodesha, kubera ko ikintu cyose ucururiza ku muhanda kiragenda cyane. Kandi ushobora no gucururizamo ibintu byinshi, kubera ko bibona abakiriya benshi cyane.

Amazu y'ubucuruzi aherereye ku muhanda usanga abantu bari gukunda kuyakodesha kuberako abona abakiriya. Iyo ucururiza ku muhanda ntabwo upfa kubura abakiriya, cyane cyane kuberako haba hari kunyura abantu benshi cyane.